Ibyumba by'amashuri ni inzu zitaweho cane zubakitse ku buryo bugezweho, aya mazu y'ibyumba by'amashuri aba agakomeye cyane kuko aba yubakishijwe n'amatafari ,akaba afite ibirahure bikomeye ndetse n'inzugi zikomeye za metalike.

Mu bigo by'amashuri ni amashuri aba yubatswe ku buryo harimo ibyumba byinshi cyane guhera mu wa mbere kugeza mu wa gatandatu ,mimbere iyo ugezemo ubona harimo amajaride ateyemo indabo nziza zitandukanye, hagati y'ayo majaride haba harimo uduhanda abanyeshuri banyuramo bari kwinjira mu mashuri yabo.

Urugi rw'icyuma rwitwa metarike n'urugi bafungisha ahantu, iyo nzu ikaba ikomeye cyane n'urugi rudapfa gusaduka, ruba rukomeye ruba rufite iserire bafunguza urufunguzo, ruba rufite n'idirishya rikomeye cyane riba ririho ikirahure, izi nzugi ziba zikomeye ntabwo abajura bapfa kurucamo.

Gufotora bimaze gutera imbere cyane, hari abafotoza pareye, hari n'abafotoza telefoni, hari n'abafotoza icyo twakwita jomeri. Jomeri zifotozwa cyane cyane n'abazungu cyangwa se ba mukerarugendo, bashaka kureba ibintu biri kure yabo. Jomeri rero zifashishwa mu kureba ibintu biri kure cyane ahantu abantu batabasha kugeza amaso.

Ishuri ryigisha ibijyananye no guteka riba rifite ibikoresho byinshi bitandukanye nk'amasafuriya yo gutekeramo. Baba bafite amashyiga kabuhariwe yagezweho, baba bafite ibikoresho byinshi bakoresha bari guteka ndetse n'abatetsi baba bafite iniforome. Baba bambaye utugofero hejuru ndetse n'amataburiya byose biba bisa n'umweru.

Muri iki gihe kuba uzi umwuga cyangwa se warize ibijyananye n'umwuga, ni ibintu bisigaye bitanga amafaranga kandi bigezweho. Twavuga nk'umwuga w'ubutekinisiye, cyangwa se nk'umwuga wo gukora ibijyanye n'amashanyarazi, ni ibintu bitanga amafaranga, nko kwesitarira abaturage, gushinga amapoto, kubakorera ibyapfuye, nk'insinga cyangwa se Kashipawa ni ibintu bitanga amafaranga ku babyize.

Mu ishuri abanyeshuri baba bicaye ku buryo butandukanye, hari ubwo umunyeshuri aba yicaye ku ntebe ye, imbere hari akameza ke, mbese ubona ari abanyeshuri baboneye. Baba bambaye iniforome, hasi amajipo, hejuru amashati, cyangwa se hasi amapantaro, hejuru amashati. Ubona ari ibintu byiza cyane, kuko baba bicaye ku murongo baboneye.

Ishuri ryigisha gukanika, riba rifite ibikoresho byinshi cyane, aho bigira imbere y'abanyeshuri haba hari ameza hariho ibikoresho bitandukanye, bakoresha ipensi, toronovisi, insinga, n'ibindi bitandukanye. Abanyeshuri biga bambaye ibisurubeti.

Isomo rishimisha abanyeshuri mu masomo yose, ni isomo ryo gushushanya. Ku mashuri, iri somo abana bararikunda cyane, kubera ko ni aho bidagagurira. Bakagaragaza amarangamutima ya bo, bashushanyisha kereyo cyangwa se amakaramu y'igiti, ndetse bamwe basiga n'amarangi, ubona ari ibintu bishimishije cyane.

Imyambaro y'abatetsi iba iboneye cyane, bambara amataburiye y' umweru, ingofero z'umweru, abatetsi baba bafite ibikoresho byinshi bitandukanye bifashisha. Hari amaparato bakekeraho ibitunguru, ndetse n'ibindi birungo. Bagira n'udusorori dutoya twa palasitike, ndetse n'utw'ibyuma, bagira ibintu byinshi bitandukanye bifashisha.

Umwuga wo guteka byagaragaye ko ushobora kuba ufite akamaro kanini cane. Umuntu wize ibyo guteka cangwa se uzi ibyo guteka arakenerwa cane mu mahoteli mu maresitora ndetse n'ahandi hatandukanye haba serivisi y'ibyo kurya. Umuntu uzi guteka yiyambazwaga ahantu henshi hatandukanye kuko ni ibintu bikenerwaga buri munsi.

Ibigo byigishaga imyuga bigiraga imyuga myinshi zitandukanye, habagamo ububaji, ubwubatsi, ubudozi n'ibindi. Mu bwubatsi bagiraga ibikoresho byinshi, inyundo, amasuka, imihoro, metero n'ibindi byinshi. Naho mu bubaji bagiraga urukezo, na bo babagiraga n'umuhoro n'ibindi byinshi bitandukanye. Mu budozi bagiraga imashini.

Abagore n'abakobwa bahawe seritifika mu mahugurwa bari bagize .Seritifika zirafasha kuko zituma ubona akazi ahantu henshi hatandukanye ,iba yemeza ko hari ibyo wahuguwe cyangwa se ko hari ibyo uzi, zifashishwa cyane hirya no hino mu buzima butandukanye.

Kuririmba ni impano nziza ikomeye cane. Hari abaririmbaga ku giti cabo, hari n'abaririmbaga mu makorali. Iyo uri kuririmba rero ukeneraga mikoro cangwa se ugakenera indangururamajwi. Habaga hari abacuranzi bari gucurangira izo ndirimbo, habaga hari n'amabafure amajwi arimo kunyuraho. Kuririmba ni byiza cane birashimishaga.

Ishuri ryigisha ibijyananye n'ubuganga riba rifite ibikoresho byinshi bitandukanye, nk'iyo bagiye muri puratike bashaka nk'igipupe bigiraho ibyo biga, nko gutera inshinge bakabereka uko batera inshinge kuri icyo gipupe, nko kwambika serumu nabwo bikaba uko bakabiberekera ku gipupe.

Abanyeshuri biga ibijyanye n' umwuga, bakora ingendoshuri hirya no hino barigukora ubushakashatsi, ku byo biga; abiga iby' ubukanishi butandukanye nabo ni uko nabo bakora ubushakashatsi, ku byumba byinshi bitandukanye, baba bambaye amasarubeti ni niforume ibaranga.

Gusudira ni umwuga wiga mu mashuri cyangwa se ukaba warigishijwe n'undi. Basudira ibyuma cyangwa se bakunga ibyuma byatandukanye, inzugi n'ibindi bikoresho by'ibyuma. Abagabo bafite icyuma gishinzwe gusudira baba bagicometse ku mashanyarazi, usudira aba yambaye masike ituma amaso ye adapfa kuko byica amaso cyane.